Icyumba cy'inama. Harimo intebe ziri mu ibara ry'umukara, hariho n'ameza. Muri izo ntebe hiciyemo abantu benshi batandukanye, ku meza hateretseho amazi n'indangururamajwi.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, ibipapuro na terefoni zigendanwa, muri icyo cyumba hamanitse ibitambaro bikingira izuba biririmo ibara rijjya gusa nk'umuhondo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, umwe muri abo bantu ni umugore arahagaze, afite indangururamajwi yambaye imyambaro iri mu ibara ry'umukara, abandi babiri muri bo baricaye umwe yambaye umwambaro ufite ibara ry'umuhondo, undi yambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru.

Abantu babiri abo bantu ni abagore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bombi bambaye amadarubindi, umwe muri bo afite imisatsi miremire yambaye ikoti rifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwijimye.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, abo bantu ni abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa umutuku hariho n'ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro cy'umweru ariho mudasobwa n'amacupa y'amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye abo bantu harimo abagore n'abagabo. Bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara. Imbere yaho hari ameza afite ibara rijya gusa nk'umutuku, kur'ayo meza hateretseho amakaye na terefone zigendanwa.

Abantu benshi abo bantu harimo abagore n'abagabo bamwe barahagaze abandi baricaye, muri abo bantu bamwe bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi abandi bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu ni abagore n'abagabo, abenshi muri bo bambaye ingofero zifite ibara ry'ubururu, abandi benshi muri bo kandi bambaye imipira y'amaboko magufi iri mu ibara ry'icyatsi n'ibara ry'ubururu.

Abantu benshi, abo bantu ni abagore n'abagabo, bamwe baricaye, abandi barahagaze, abo bantu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abicaye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, abo bantu bari mu ihema ry'umweru.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi abo bantu harimo abagore n'abagabo, imbere yabo hari ameza afite ibara rijya gusa nk'umutuku, kuri ayo meza hateretseho amacupa y'amazi hariho na mudasobwa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, impapuro na mudasobwa, inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'icyatsi kibisi n'ibara ry'ubururu, hari kandi n'ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu babiri; abo bantu ni umugore n'umugabo bahagaze; umugore yambaye ingofero, yambaye n'amadarubindi. Umugabo yambaye ikoti rifite ibara ry'umukara, afite indangururamajwi, yambaye impeta ku rutoki, yambaye n'isaha.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, amacupa arimo umutobe, indangururamajwi n'impapuro.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, abo bantu bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'umutuku, iruhande rwabo hari ibyapa bigiye bitandukanye bifite amabara atandukanye harimo umweru n'ubururu.

Umugabo uhagaze. Yambaye ikoti riri mu ibara riyya gusa nk'ubururu, yambaye n'ishati iri mu ibara rijya gusa nk'umweru, yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara, afite indangururamajwi. Imbere ye kandi hari abandi bantu bicaye.

Mu icyumba kirimo abantu batandukanye abo bantu ni abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye umwe muri bo arahagaze abandi bicaye imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite amabara biratandukanye harimo ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo abantu benshi, abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara rijya gusa nk'umutuku n'ibara ry'umweru, kuri ayo meza kandi hateretseho amacupa y'amazi, terefoni zigendanwa na mudasobwa.

Abantu. Abo bantu ni batatu. Harimo abagore babiri n'umugabo umwe. Uwo mugabo yambaye isaha, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu. Imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi, impapuro na terefone igendanwa.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi. Bambaye imipira y'amaboko magufiya ifite amabara agiye atandukanye. Bamwe bambaye ifite ibara ry'ubururu, abandi bambaye isa icyatsi, abandi bambaye ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu, muri abo bantu harimo abicaye abandi barahagaze. Harimo umwe muri bo ufite indangururamajwi, undi afite igikoresho gifata amashusho. Imbere y'abo bantu kandi hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Icyumba kirimo abantu babiri, abo bantu n'umugabo n'umugore, umugore yambaye amadarubindi ndetse amanitse ukuboko. Imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite amabara abiri atandukanye, harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umuhondo.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru bamwe muri bo kandi imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite ibara rijya gusa umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye. Abo bantu ni abagabo n'abagore. Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, telefoni zigendanwa n'indangururamajwi. Muri icyo cyumba kandi harimo ibendera ry'u Rwanda.

Abantu benshi, abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, abenshi muri bo baricaye, umwe muri bo ni umugore arahagaze afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu benshi batandukanye abo bantu baricaye umwe muri bo ni umugabo yambaye amadarubindi, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu bwijimye, yambaye n'ishati ifite ibara rirya gusa nk'ubururu bwerurutse, afite indangururamajwi.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, umwe muri abo bantu ni umugabo uhagaze yambaye amadarubindi, yambaye ishati ifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse, n'ipantaro ijya gusa nk'ubururu bwijimye. Inyuma ye hari ibyapa bifite amabara agiye atandukanye, arimo ubururu n'umweru, harimo n'ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo baricaye imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye harimo: amacupa y'amazi ,amakaye, na terefone zigendanwa.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bamwe muri bo imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, amacupa y'umutobe ndetse umwe muri bo imbere ye hari indangururamajwi.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi bagiye batandukanye. Muri abo bantu hari batanu bicaye imbere, inyuma yabo hari urukuta runini, ruri mu mabara menshi agiye atandukanye arimo, ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umuhondo.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi batandukanye, abo bantu n'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara muri iyo nzu mberabyombi kandi harimo ibyuma bifata amashusho, bamwe muri abo bantu imbere yabo hateretse mudasobwa.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, abo bantu ni bane harimo abagore n'umugabo. Umwe muri bo arahagaze afite indangururamajwi. Imbere yabo hari ameza atwikije igitambaro cy'umweru ariho mudasobwa.

Abantu abo bantu baricaye bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse imbere y'abo bantu kandi hari ameza atwikije igitambaro ateretseho amacupa y'amazi n'impapuro.

Abantu bicaye mu modoka itwara abagenzi, umwe muri abo bantu ni umugore, ufite terefone ntoya igendanwa, yambaye amadarubindi ateze igitambaro kiri mu mabara agiye atandukanye harimo: ibara ry'icyatsi, ibara rya kaki n'ibara rijya gusa umweru.

Abantu, umwe muri bo ni umugabo arahagaze, yambaye imyambaro ifite amabara agiye, atandukanye, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi kibisi, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa afite imisatsi miremire, yambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru imbere ye hari ameza ariho mudasobwa n'ikirahure kirimo amazi, kuri ayo meza kandi hariho n'impapuro.

Abantu batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bamwe barahagaze abandi baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa zicanye.

Igiti kimanikwaho insinga z'amashanyarazi. Inyuma yacyo hari amazu asize irangi rijya gusa nk'ibara ry'umuhondo. Inyuma y'ayo mazu kandi hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Igiti bamanikaho insinga z'amashanyarazi, inyuma yacyo hari ibiti birebire hari n'imisozi itagaragara neza, imbere yacyo hari umuhanda ufite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru.

Ibiti bimanikwaho insinga z'amashanyarazi, iruhande rw'ibyo biti hari umuhanda w'amabuye urimo kugendamo abantu, iruhande rw'uwo muhanda w'amabuye hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ipikipiki, iruhande rw'ibyo biti bimanikwaho insinga z'amashanyarazi kandi, hari inyubako.

Igiti kirekire kimanikwaho insinga z'amashanyarazi. Kuri icyo giti hafasheho insinga nyinshi, nyuma y'icyo giti kandi hari umunara. Icyo giti gikikijwe n'ibimera bitandukanye, harimo ibiti birebire.

Igiti kinini kimanikwaho insinga z'amashanyarazi. Inyuma yacyo hari icyapa cyo ku muhanda, kiri mu mabara agiye atandukanye arimo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru. Imbere y'icyo giti kandi hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo n'umuntu utagaragara neza.

Igiti kimanikwaho insinga z'amashanyarazi, mbere y'icyo giti hari akazu gatoya gafite ibara ry'umuhondo inyuma y'icyo giti kandi, hari amazu abiri asakaje amabati afite ibara rijya gusa umutuku iruhande rw'icyo giti hari umuntu utagaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga, icyo kinyabiziga n'imodoka ntoya igaragara igice kimwe ifite ibara ry'umutuku, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hari umuhanda w'amabuye, munsi y'uwo muhanda w'amabuye kandi hari inyubako.

Umuntu wicaye yambaye amadarubindi, yambaye isaha, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu. Inyuma mu mugongo handitseho amagambo manini ari mu ibara ry'umweru. Uwo muntu ari kureba muri mudasobwa.

Uwo muntu ni umugore uhagaze mu gahanda k'amabuye yashyize telefone igendanwa ku gutwi, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara rya kaki afite kandi igikapu gifite amabara agiye atandukanye muntoki.

Umuhanda urimo kugendamo umuntu. Uwo muntu yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye umwenda wo hejuru ufite ibara ry'umweru, yambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa icyatsi cyerurutse.

Umuhanda urimo imodoka eshatu, ebyiri muri zo ni imbangukiragutabara zifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku, inyuma y'uyu muhanda kandi hari ibiti birebire hari n'inzu.

Inzu nini isakaje amabati ari mu ibara rigiye gusa nk'umutuku, iyo nzu kandi ifite amadirishya ari mu ibara rijya gusa nk'umukara, inyuma y'iyo nzu hari ubusitani burimo igiti kinini harimo n'igiti kimanikwaho insinga z'amashanyarazi kiri mu ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo. Ayo magambo yanditse mu ibara ry'umukara, amwe muri ayo magambo kandi ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, andi ari mu rurimi rw'igifaransa, naho andi ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu babiri, abo bantu ni abagabo, umwe yambaye amadarubindi, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru, afite mu ntoki terefoni igendanwa.

Abagabo babiri bahagaze bafashe igiti kiri mu ibara ry'ikigina bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye harimo iry'umukara n'iry'umweru, inyuma yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite ibara ry'umweru hasi, hejuru ifite ibara ry'ubururu.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye amadarubindi, yambaye kandi n'imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru.

Umuntu. Uwo muntu ni umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa. Afite umusatsi w'umukara, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Yambaye ikoti rifite ibara rijya gusa umutuku n'agapira mo imbere, gafite ibara rijya gusa kacyi.

Umuntu, uwo muntu umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye amadarubindi, yambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye harimo ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara n'ibara rijya gusa umuhondo.

Abantu batandukanye, abo bantu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Umwe muri bo ni umugore aricaye, yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara, imbere ye hari ameza ateretseho indangururamajwi.

Umugabo urimo guseka. Afite ubwanwa munsi y'izuru, yambaye umwambaro ufite ibara rijya gusa n'iroza, ryerurutse. Kuri uwo mwambaro kandi afiteho indangururamajwi. N'imbere ye hari indangururamajwi.

Amagambo y'umukara yanditse ku rupapuro rw'umweru, amwe muri ayo magambo ari mu ibara ry'lkinyarwanda, andi ari mu ibara ry'lcyongereza, andi ari mu ibara ry'lgifaransa, kandi nanone amwe muri ayo magambo yanditswe mu mukono, andi yanditswe mu cyapa.

Umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye umwenda w'imbere uri mu ibara rijya rijya gusa n'ikinombe, yambaye kandi n'ikote rifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara.

Umuntu. Uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa afite umusatsi w'umukara yambaye amadarubindi manini, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara rijya gusa nk'ivu.

Abantu babiri abo bantu ni abagabo. Umwe ni umwirabura undi ni umuzungu. Bombi bambaye amadarubindi uw'umwirabura yambaye ikoti rifite ibara rijya gusa ubururu bwijimye, yambaye n'ishati y'umweru ndetse yambaye amapingu.

Abantu babiri abo bantu ni abagabo baricaye, umwe muri bo yambaye amadarubindi, yambaye agapfukamunwa gafite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, yambaye umwambaro ufite ibara rijya gusa nk'iroza.

Umuntu numugore ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye amadarubindi, yambaye umwambaro ufite amabarage atandukanye harimo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru, uwo muntu kandi yambaye ingofero ifite amabara abiri atandukanye hari ibara ry'umukara n'irindi bara ri jya gusa umuhondo.

Abantu bane bahagaze babiri muri bo ni abagabo, bambaye imyambaro y'umukara ifitemo n'ibara ry'umweru, abandi babiri muri bo ni abagore bambaye imyenda y'ibara ry'iroza, imbere yabo hateretse ameza ariho mudasobwa, impapuro n'icupa ry'amazi.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu n'abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze, umwe muri bo ahagaze hagati yabo yambaye imyambaro ifite ibara ry'iroza, abandi bambaye agatambaro gafite amabara atatu, ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi, n'ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo abantu batandukanye. Abo bantu ni abagore n'abagabo. Bambaye udupfukamunwa. Bamwe baricaye, abandi barahagaze. Mu bicaye harimo abafite mudasobwa. Muri icyo cyumba kandi harimo intebe z'umukara.

Umuntu uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye yambaye umwenda w'inyuma ufite ibara ry'umutuku, yambaye ishati ifite ibara rijya gusa ubururu bwererutse.

Abantu benshi, abo bantu barimo abagore n'abagabo bamwe bicaye abandi bahagaze munsi y'ibiti birebire, muri abo bantu harimo abitwikiriye imitaka ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara rijya gusa icyatsi kibisi, ibara ry'umutuku n'ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Abo bantu ni abagabo babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa dufite ibarajya gusa ubururu bwerurutse umwe muri bo yambaye imyambaro ifite ibara ry'iroza, afite ibipapuro by'umuhondo mu ntoki.

Abantu, abo bantu ni abagabo batatu babiri muri bo bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano ifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwijimye cyane, bambaye kandi n'ingofero, undi wa gatatu yambaye amadarubindi yambaye n'ishati ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru yambaye umwambaro ufite amabara menshi igihe atandukanye harimo ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara, ibara ry'ubururu bwerurutse n'ibara rijya gusa umuhondo.

Urupapuro ruriho amagambo ayo magambo yanditse mu ibara ry'umukara amwe muri ayo magambo ari mu rurimi rw'igifaransa andi ari mu rurimi rw'icyongereza, andi ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, amwe muri ayo magambo kandi yanditswe mu mukono andi ari mu cyapa.

Umuhanda urimo imodoka, iruhande rw'uwo muhanda hari inyubako inyuma y' uwo muhanda hari igiti kirekire cyane kiririmo ibara ry'icyatsi kibisi .Imwe muri izo modoka ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'ubururu n'ibara rirya gusa ivu.

Umuhanda w'amabuye urimo abantu batandukanye, babiri muri bo bambaye imyenda yo hejuru, iri mu ibara rijya gusa nki'cyatsi cyerurutse, iruhande rw'uwo muhanda kandi hari ibinyabiziga birimo imodoka n'pikipiki.

Abantu batatu; umwe muri bo yambaye ingofero ,yambaye, agapfukamunwa, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye harimo irirya gusa nk'ubururu bwijimye n'irindi rijya gusa nki'icyatsi cyerurutse . Afashe mu ntoki igitambaro gifite ibara rijya gusa n'umutuku.

Abantu batandukanye abo bantu harimo abagabo n'abagore umwe muri abo bantu ahetse igikapu gifite ibarajya gusa umutuku, undi yambaye ingofero y'icyatsi, ishati y'icyatsi, ipantaro y'icyatsi n'inkweto z'umukara, inyuma y'abo bantu hari inyubako ndende.

Abantu benshi abo bantu bahagaze imbere y'inyubako muri abo bantu harimo abanyeshuri abakobwa n'abahungu, harimo kandi n'abashinzwe umutekano, imbere y'abo bantu hateretse ibikoresho bishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro.

Umuntu. Uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa. Iruhande rwe hari ikinyabiziga. Icyo kinyabiziga ni imodoka ntoya y'umukara. Uwo muntu yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, uwo muntu kandi yambaye ingofero.

Abantu benshi bamwe muri bo bambaye ingofero zifite ibara ry'umutuku, abandi bambaye ingofero zifite ibara ry'ubururu, abandi bambaye ingofero zifite ibara ry'umweru, abenshi muri bo kandi bafite utubendera mu ntoki dufite ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu hagati harimo inyuguti ya pa

Abantu babiri, abo bantu ni abagabo bahagaze bombi bambaye amadarubindi, bambaye amashati y'umweru, bambaye kandi n'amakoti afite ibara rijya gusa ubururu bwijimye, abo bagabo bombi bafite ibitabo mu ntoki.

Umugabo yambaye ikoti riririmo ibara ryo gu gusa nk'umukara, yambaye kandi n'ishati y'ibara ry'umweru imbere ye hari indangururamajwi, ikirahuri banyweramo amazi n'icupa ririmo amazi yicaye ku ntebe' yumukara.

Abantu benshi batonze umurongo nyuma yabo hari imodoka nyinshi zitandukanye hari n'inzu, imbere yabo hahagaze umugore wambaye umukenyero, yambaye umupira uri mu ibara rijya gusa n'umweru, hejuru ye ahamanitse ibitambaro bifite amabara y'ibendera ry'u Rwanda

Abantu benshi batandukanye abenshi muri bo bamanitse amaboko bafite utubendera, dutoya mu ntoki dufite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bamwe muri abo bantu kandi batonze umurongo, imbere yabo ari inyubako isakaje amabati afite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse.

Abantu batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo; umwe muri bo ni umugore arunamye yambaye amadarubindi yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye yambaye agapira gafite ibara ry'umweru, ikoti rifite ibara rijya gusu umukara n'ipantaro ifite ibara rijya gusa ubururu bwijimye.

Umuntu; uwo muntu ni umugore, arahagaze yambaye imyambaro ifite amabara atagaragara neza iruhande rwe hari idirishya ritwikirije igitambaro gifite amabara atatu harimo ibara ry'ubururu ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye ikoti rifite ibara ry'umukara yambaye n'ishati ifite ibara ry'umweru.

Umuntu, uwo muntu numugore wicaye uri guseka yambaye umwambaro ufite amaboko maremare uri mu ibara ry'umweru, yambaye amaherena yambaye isaha, yambaye nimpeta ku kuboko kwe kw'ibumoso.

Abantu. Abo bantu ni abagore bahagaze, bambaye imikenyero ifite amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari indangururamajwi, hari n'amabendera afite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umuhondo, ibara ry'ubururu n'ibara ry'icyatsi.

Umugabo yambaye ikoti riri mu ibara rijya gusa nk'ubururu imbere ye hari indangururamajwi hari na mudasobwa, inyuma ye hari igitambaro gikingira izuba kiri mu mabara menshi agiye atandukanye harimo irya kaki, ikijuju n'umukara.

Abantu babiri, abo bantu n'umugore n'umugabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bambaye imyambaro irimo amabara menshi agiye atandukanye, umugabo yambaye ishati ifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse.

Abagabo batatu bahagaze, umwe muri bo uri hagati imbere ye hari indangururamajwi afite n'urupapuro mu ntoki, inyuma y'abo hari intebe z'ubururu hari n'ibyapa biriho ishusho y'umuntu, hicaye kandi n'umugore wambaye amadarubindi.

Umugore uri guseka yambaye ishati y'umweru akenyera igitenge kiri mabara atandukanye harimo irya kaki umukara n'icyatsi kibisi afite umusatsi w'umukara inyuma ye hari igiti kitagaragara neza.

Umugabo wambaye amadarubindi, imbere ye hari indangururamajwi, uwo mugabo yambaye umupira urimo amabara y'umweru n'akarongo k'ubururu, yambaye kandi n'ingofero irimo amabara y'umweru n'ubururu.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu ni abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe muri bo kandi bafite utubendera dutoya mu ntoki dufite amabara atatu, ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru, n'ibara ry'ubururu.

Abantu benshi batagaragara neza bamanitse amaboko abo bantu bambaye imyambaro iri mu mabarage atandukanye harimo ibara ry'ubururu ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru, bafite utwapa dutoya natwo turi mu mabara agiye atandukanye ari mu ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru hagati harimo inyuguti ya P.

Abantu babiri, abo bantu n'umugore n'umugabo bahagaze bagaragara igice cyo hejuru gusa. Umugabo yambaye amadarubindi, yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara rijya gusa umutuku.

Abantu benshi ,bamwe muri abo bantu bambaye ingofero zifite ibara ry'ubururu, abandi bambaye ingofero zifite ibara ry'umutuku, abandi bambaye ingofero zifite ibara ry'umweru, abenshi muri bo kandi bafite utubendera dutoya tugizwe n'amabara atatu, rimwe n umutuku, irindi ni ubururu, irindi ni umweru, hagati hari inyuguti ya pa yandikishije ibara ry'umukara.

Uyu muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye imyambaro ifite amabara igiye atandukanye ;yambaye ikoti rifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwijimye, yambaye n'ishati y'umweru.

Umuhanda urimo ipikipiki, umutwazi w'iyopikipiki yambaye imyenda iri mu ibara rijya gusa nk'ubururu, yambaye n'ingofero kandi iri mu'ibara rijya gusa nk'umutuku, inyuma y'uwo muhanda hari uruzitiro rw'icyatsi kibisi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ibyo binyabiziga ni imodoka nini ndetse n'ipikipiki, iruhande rw'uwo muhanda hari undi muhanda mutoya w'amabuye wagenewe abanyamaguru, muri uwo muhanda muto w'amabuye wagenewe abanyamaguru harimo umugore ufite indobo irimo ibisheke.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye, kimwe ni imodoka nini iri mu ibara ry'umukara imbere isa umweru ikindi ni igare ririho umuntu wambaye umupira urimo amabarage atandukanye, inyuma y'imodoka hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda ufite ibararijya gusa nka kacye, uri mu modoka ifite ibara ry'umweru, muri uwo muhanda kandi harimo umuntu utagaragara neza uhetse igikapu kirimo ibara ry'ikijuju yambaye n'ipantaro iri mu ibara rye gusa nk'ivu yambaye n'ikoti ry'umukara.

Umuhanda urimo abantu n'ibinyabiziga muri ibyo binyabiziga harimo imodoka nini ifite amabarage atandukanye, harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, inyuma y'iyo modoka hari amapikipiki iruhande rw'uwo muhanda kandi hari ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ibyo binyabiziga ni ipikipiki n'imodoka nini, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hari ibiti birebire hari n'undi muhanda mutoya wagenewe abanyamaguru urimo kugendamo umugore.

Umuhanda w'igitaka urimo ibinyabiziga n'abantu ibyo binyabiziga ni amapikipiki, imwe muri iyo pikipiki yicayeho umutwazo wayo inyuma ye hari umufuka urimo ibintu, inyuma y'iyo pikipiki kandi hahagaze umuntu wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga, ibyo binyabiziga harimo imodoka n'amapikipiki, iyo modoka ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ibara ry'umweru, iruhande rw'uwo muhanda kandi hari ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ibyo binyabiziga ni imodoka nini ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ipikipiki. Iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti birebire, hari n'undi muhanda muto w'amabuye wagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ibyo binyabiziga n'imodoka nini ifite ibara rijya gusa nk'umuhondo ndetse n'ipikipiki iruhande rw'uwo muhanda kandi hari umuhanda w'amabuye hari n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga, icyo kinyabiziga ni ipikipiki iriho umutwazi wayo, yambaye ingofero ifite ibara ry'umutuku, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo kandi hari amazu hari n'ipikipiki.

Umuhanda urimo imodoka n'abantu, izo modoka ni imodoka ntoya zitwara abagenzi zifite ibara ry'umweru harimo n'ibara ry'icyatsi kibisi. Iruhande rw'uwo muhanda kandi hari abantu benshi batagaragara, hari n'inyubako y'ubucuruzi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga n'abantu, bimwe muri ibyo binyabiziga ni imodoka ebyiri nini zifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ibara ry'umweru, iruhande rw'umuhanda kandi hari ibiti birebire.

Ibinyabiziga bizwi nk'ipikipiki biri mu muhanda w'amabuye, iruhande rwa kimwe muri byo ahagaze umuntu wambaye ingofero iri mu ibara ry'umutuku yambaye umwenda w'inyuma uri mu ibara ry'ubururu yambaye n'inkweto z'umuhondo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga n'abantu, kimwe muri ibyo binyabiziga ni imodoka ntoya, umwe muri abo bantu ni umugabo wambaye ipantaro y'umukara, afite imbago, yambaye ingofero y'umweru, ahetse n'igikapu cy'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga muri ibyo binyabiziga harimo imodoka nini ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hari ibiti birebire hari n'umuhanda w'amabuye wagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ibyo binyabiziga ni igare, ipikipiki, n'imodoka nini iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo kandi hari ibiti birebire, hari n'umuhanda mutoya w'amabuye wagenewe abanyamaguru.

Umuhanda urimo ipikipiki n'imodoka n'abantu, imodoka ifite ibara ry'umweru yicayemo umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi kibisi, hari kandi n'igiti kimanikwaho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, kimwe ni imodoka nini ifite ibara ry'umweru itwaye imizigo, imizigo itwikirije igitambaro cy'ubururu, ifatishije imigozi iri mu ibara ry'ikigina, imbere y'ibyo binyabiziga hari ibiti by'icyatsi.

Icyapa cyo ku muhanda. Icyo cyapa ni kirekire gifite amabara atandukanye harimo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru, kiriho kandi ikirango cy'imodoka nini itwara imizigo, imbere y'icyo cyapa hahagaze abantu n'ibinyabiziga.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ishusho rya mpande eshatu kiri mu mabara agiye atandukanye, ku ruhande hari ibara ry'umutuku, hagati hari ibara ry'umweru kandi na none hagati hariho ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, hagati muri uwo muhanda wa kaburimbo, hateyemo ibiti n'ibyatsi hamanitsemo n'icyapa. Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo kandi, hari umuntu uri kugenda, hari kandi n'inyubako ndende ifite irangi ryo gusakake.

Abantu batatu bari kumanika ibyapa, bambaye umwenda w'akazi wiganjemo ibara ry'icyatsi cyerurutse, umwe muri abo bantu yambaye ingofero ayirebesheje inyuma, kimwe muri ibyo byapa bari kumanika cyanditseho umubare mirongo itandatu wandikishijwe ibara ry'umukara.

Icyapa cyo ku muhanda, icyo cyapa gifite amabara abiri atandukanye harimo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru. Kiriho kandi ikirango cy'umuntu urimo wambuka umuhanda wa kaburimbo, inyuma y'icyo cyapa hari ikindi cyapa kiranga amerekezo hari n'ibiti birebire.

Inyubako ndende. Imbere y'iyo nyubako hari ibinyabiziga. Imodoka zifite amabara agiye atandukanye. Imbere y'iyo nyubako kandi hari igiti, hari n'icyapa cyanditseho amagambo manini, yanditse mu ibara ry'umweru. Icyo cyapa gifite amabara agiye atandukanye, harimo ubururu n'umuhondo.

Amazu manini afite amadirishya y'ibirahuri, ari mu ibara rijya gusa nk'ubururu. Inyuma yayo mazu hari umurima urimo ibyatsi n'ibiti bigiye bitandukanye, hari kandi n'uruzitiro ruri mu ibara ry'umutuku.

Inyubako: iyo nyubako ni inzu isakaje amabati ajya gusa nk'umutuku, iyo nzu kandi isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya afite ibirahuri by'umukara, ku ruhande hariho urukuta rw'amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga. Icyo kinyabiziga ni ipikipiki. Iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo kandi hari umuhanda muto w'amabuye, wagenewe abanyamaguru, uri kugendamo abantu. Iruhande rw'uwo muhanda wagenewe abanyamaguru, hari inyubako, hari n' imodoka.

Umuhanda w'igitaka urimo abantu n'imodoka nyinshi zitandukanye. Imwe muri iyo modoka ni imodoka ntoya, ifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwijimye. Iruhande rw'uwo muhanda kandi hari inyubako y'ubucuruzi.

Inyubako y'ubucuruzi, imbere yayo hahagaze abantu batatu batandukanye, umwe muri bo afite umutaka urimo ibara rijya gusa nk'ubururu, inyuma ye hari ikinyabiziga gifite ibara rijya gusa nk'umukara.

Inyubako ndende, hejuru y'iyo nyubako hari ikigega gifite ibara ry'umukara, iyo nyubako ifite amadirishya y'ibirahure kandi isize amarangi igice kimwe, ahandi igizwe n'amatafari ahiye. Iruhande rw'iyo nyubako hari insina z'ibitoki, hari n'ibiti birebire.

Umuhanda urimo ibinyabiziga n'abantu, bimwe muri ibyo binyabiziga ni amapikipiki ahetse abantu. Uwo muhanda kandi ukikijwe n'ibiti birebire cyane biririmo ibara ry'icyatsi kibisi, iruhande rw'uwo muhanda kandi hari akazu k'abagenzi kari mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga. Bimwe muri ibyo binyabiziga ni imodoka zitandukanye, muri ibyo binyabiziga kandi harimo amapikipiki n'igare, iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti, hejuru y'uwo muhanda hari ikiraro.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri: kimwe ni modoka nini ifite ibara ry'umweru, ikindi ni ipikipiki ihetse abantu babiri. Iruhande rw'uwo muhanda hari igiti kimanikwaho insinga z'amashanyarazi, hari n'akazu ko ku muhanda karimo ibara ry'ubururu, hari n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga ,kimwe muri ibyo binyabiziga ni imodoka nini ifite ibara rijya gusa n'umukara iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari umuhanda w'amabuye urimo umuntu w'umugabo uri kugenda wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ifite ibara rijya gusa na kaki.

Umuhanda urimo abantu n'ibinyabiziga, umuhanda ukikijwe n'ibiti, kandi hejuru y'uwo muhanda hari ikiraro, umwe muri abo bantu ni umugore utagaragara neza yambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku.

Umuhanda urimo ibinyabiziga n'abantu, ibyo binyabiziga ni amapikipiki, abantu ntabwo bagaragara neza, inyuma y'uwo muhanda n'uruhande rwawo hari ibiti birebire hari n'amazu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga. Kimwe muri ibyo binyabiziga ni imodoka ntoya ifite ibara rijya gusa umweru. Iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hari undi muhanda muto w'amabuye. Hejuru y'uwo muhanda wa kaburimbo hari ikiraro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ibyo bininyabiziga ni ipikipiki n'imodoka, imwe muri izo modoka ni imodoka nini ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo kandi hari akandi gahanda gato k'amabuye kagenewe abanyamaguru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'amapikipiki, ahetse abantu, iruhande rw'uwo muhanda, hari undi muhanda w'amabuye, uwo muhanda kandi ukikijwe n'ibiti n'ibyatsi bitagaragara neza.

Umuhanda urimo ibinyabiziga n'abantu. Kimwe muri ibyo binyabiziga ni ipikipiki, umutwazi wayo yambaye umupira ufite ibara rijya gusa umweru, yambaye ingofero ifite ibara rijya gusa umukara. Muri uwo muhanda kandi harimo umuntu urimo kwambuka.